Mu kibaya kinini gihinzemo inyanya ku kazuba, umusore wambaye isarubeti wirabura ahetse icyuma gitera umuti wica udukoko, ari gukingira inyanya ziteye mu murima.

Umuturage afashe ifumbire mu ntoki y'imborera harimo udusimba nk'iminyorogoto n'utundi dusimba dutuma haboneka ifumbire. Ifumbire yarabuze rwose imeze neza ku buryo yakoreshwa mu gufumbira imyaka kugira ngo haboneke umusaruro ushimishije.

Ububiko bw'umusaruro cyangwa se ifumbire, imifuka myinshi cyane isa n'umweru ifite amabara y'icyatsi ,ndetse naho bibitse hasa n'icyatsi, ibintu byose biri ku murongo, imifuka iteretse ku mbaho ,ku bintu bikozwe mu mbaho.

Iyi imifuka irimo ifumbire ya ire. Igizwe n'ibiro igihumbi magana atatu buri mifuka iratondetse itegereje gutwarwa ijyanwe ahabugenewe.

Ari gushyira ifumbire ku rubuto rwazamutse, igihingwa bateye kikaba kigeze hejuru. Gushyiraho ifumbire bigifasha gukura neza, kikazatanga umusaruro ushimishije.

Abaturage bari kuyora ifumbire bayijyana mu mirima, ni ku muhanda w'igitaka, aho imodoka yaje imena ifumbire aho ku muhanda, abagabo babiri na bo bafata umufuka bakajya barayoreraho bajyana, undi mukobwa ahagaze hirya yabo ari kubitegereza.

Umuntu ari gutera umuti wica udukoko, inyanya zifite uruyange, ari gukoresha ipombo yabugenewe, aheka mu mugongo, inyanya zimeze neza ku kazuba, zizatanga umusaruro uhagije.

Abagabo batanu bambaye ibisarubeti by’umukara, udupfukamunwa n’amataratara, bahetse ibyuma bitera umuti wica udukoko. Bari gutera ibigori biri mu murima; hakurya hari igiti kinini cyakuze.

Isambaza cyangwa se udufi dutoya twinshi, turi mu ibase, twarobwe kugira ngo tujyanwe gucuruzwa, abakunda isambaza babashe kuzibonera hafi.

Ifi iteguye neza, bari kuyikarangira ku ipanu. Bayisize ibirungo by'icyatsi bitandukanye, bayitunganyije, bashyira amavuta ku ipanu bari kuyikaranga.

Amafi ari mu ndobani igikoresho bifashije bari kuroba. Ni amafi menshi menshi yabashije kurobwa. Indobani isa n'icyatsi, ikozwe mu buryo bumera nka supanete ifite utwenge.

Amafi yakuwe mu mazi, ashyirwa mu gitebo, ategereje kujyanwa ku isoko, kugira ngo abayarya bayagure. Amafi agirira umubiri w'umuntu umumaro munini cyane.

Inyama zirambitse ahantu heza h'umweru hariho indimu, n'ibindi birungo byifashishwa mu kuziteka kugira ngo umuntu uzirya azirye ziryoshye zimeze neza.

Amafi, ibirungo byayo harimo seleri, harimo tungurusumu, amavuta, ayo mafi arambitse ku ipanu aho agiye gutegurwa, kugira ngo atekwe kuko agira intungamubiri nyinshi zifasha abantu.

Abagabo babiri bahagaze mu bwato, umwe ari gukanika, undi arahagaze ari kwifotoza, ni ubwato bukozwe mu mbaho, imbaho zikomoka mu biti, buri mu mumazi nk'aho bwiteguye kugenda.

Amafi yakuwe mu mazi araziritse, ari ahantu habugenewe, ni amafi menshi cyane, ategereje kujyanwa ku isoko, kugira ngo acuruzwe babone amafaranga, abaguzi na bo babone ibitunga imibiri ya bo.

Inzu iri kubakwa imbere mu gipangu, ihagaze ku biti isakajwe amabati, ariko babanje kuzitira n'amatafari ahiye.

Iruhande rw'inzu yubakishijwe inkarakara ndetse n'iyindi nzu ikubye n'isima ifite amabati y'umutuku, hari intama zirigurisha mu murima urimo ibyatsi byo hasi.

Igiti cyitwa ikidariya, gitanga umwuka mwiza, kigira indabo z'umweru, kikaba kivamo n'imishingiriro yifashishwa mu gufata ibishyimbo, kugira ngo bibone uko byera.

Igihingwa cy'ibirayi gihinze mu murima, ku izuba, kirasa neza, gifite uruyange ntabwo cyari cyera, kiri kubura iminsi kugira ngo kibashe gusarurwa.

Igiti cyera indimu kiri ahantu mu rugo cyegeranye n'uruboga rwifashishwa, kugira ngo abana ndetse n'abandi bantu bose babeho neza, bagire ubuzima butarangwa n'indwara.

Mu murima munini ku zuba ryinshi ariko ritari ryinshi cyane. Umurima uhinzemo amajeri menshi, amajeri atangiye kuzana uruyange. Hirya hari uruzitiro ruzitijwe ibikenyeri, harimo n'ibiti birinda isuri, hakurya hari ibirunga, intoki n'ibiti bitandukanye.

Ahantu hasaruwe ibigori, n'ibishyimbo. Umurima w'urutoki ku ruzitiro hari isombe, umurima umwe uratunganyijwe bazateramo indi myaka.

Ku mugezi mu gishanga, hari ibyatsi byakuze neza, hari amazi menshi, ku ruhande hari ibiti byitwa Urusasa.

Mu rutoki harimo insina nyinshi, hahinzemo amateke, ndetse harimo n'uruyuzi rweraho ibihaza. Ibyo byose bikaba ari ibihingwa byifashishwa mu rugo.

Amajeri cyangwa amashaza ahinze mu murima munini, umurima urimo igiti giterwa hagati mu myaka. Amajeri afite uruyange ntabwo yari yera, mu majeri harimo ibyatsi biribwa n'amatungo.

Mu mugezi utemba nta mazi arimo harimo amabuye asa neza cyane . Utubuye duto ya , ibibuye binini , amazi yarakamye ni ku izuba ni umugezi uzana amazi meza.

Mu gihuru cyangwa se mu ishyamba hateyemo ibyatsi bitandukanye, batemyemo ibigori, harimo ibiti bivangwa n'imyaka, harimo uruyuzi rweraraho ibihaza, harimo ibyatsi by'amoko atandukanye.

Ku ruzitiro rw'umuturage hateye urubingo , amateke ndetse n'ikidodoki . Gifasha kugira ngo umuntu abeho neza kuko gitanga imboga . Barakirya mu bihaza byacyo , kigira umumaro munini.

Umurima munini cyane ukikijwe n'ibiti bimwe bivangwa n'imyaka, hasaruwemo igihingwa cyitwa ingano. Havuyemo ingano nyinshi, kuko ni hanini cyane, hasi hariho ibyatsi inka zirisha.

Igiti cy'avoka ni igiti cyiza, urubuto abantu benshi bakunda, kireze harimo avoka wasarura k'uruhande hariho insina ndetse n'ibindi biti by'ubundi bwoko.

Umuntu uri mu muhanda w'igitaka, umuhanda udakoze neza , yikoreye ikidomoro cy'amazi . Ni umukobwa wambaye ipantaro n'agapira, iruhande rwe hari amazu azitije ibyatsi n'ibiti.

Umurima wari uteyemo amasaka barayatemye, barayasarura, hasigara umurima urimo ibitsitsi by'amasaka batemye. Harimo ibyatsi, hirya hariho inzu ikikijwe n'intoki ndetse n'ikirere gisa neza, gifite akazuba.

Igiti cyitwa umubirizi cyifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye harimo inkorora. Mu muco wacu wa kinyarwanda kera ibiti byarifashishwaga mu kuvura , kuko nta buvuzi bwa gihanga bwari bwakaje.

Mu kibaya kinini hari, ibiti hari ibyatsi byo hasi inka zirisha hari, amabuye amwe manini atajya apfa kumeneka, hari ibitari birimo ibiti birebire by'intusi, insasa hakurya hagaragara, amabati bivuzeko hatuye abantu.

Mu kibaya ku izuba ritari ryinshi, hari ihene ziri kurisha, mu murima urimo ibyatsi byinshi byimejeje, bisa n'icyatsi. Inyuma hagaragara ibiti ndetse n'ibirunga birebire.

Umurima munini wasaruwemo ibigori, harimo abaturage bahagaze ku ruhande, bari kwitegereza umwana uri kurya imisigati mu wundi murima, utarasarurwamo ibigori mwiza.

Umurima uteyemo ibitunguru, umurima munini hakurya hari umurima w'urutoki, ibitunguru bigeze igihe cyo kubagarwa, harimo isanduruma n'ibindi byatsi bituma bidakura neza.

Umurima uhinzemo ibirayi, ukikije n'ibiti bivangwa n'imyaka hirya hariho amazu, amazu yubakishije ibyondo ahantu mu kibaya hari ikirere cyiza.

Umubyeyi ari mu murima afite isuka, ari kurandura karoti zeze zabaye nini, ni ku gihu, hari ibihu, mbese arishimye kubw'umusaruro yabonye.

Ibijumba byasaruwe ari byinshi, iby'umutuku ndetse n'iby'umuhondo, n'iby'umweru, biri ahantu hamwe ni byinshi, bitegereje kujyanwa ku isoko, kugira ngo bigezwe ku babirya, ibijumba bigira umumaro mu mubiri w'umuntu.

Umuturage ari gucuruza ku muhanda; acuruza indagara, ubunyobwa, omo ndetse na pampa bambika abana yitwikiriye umutaka kuko izuba riri kuva, kugira abone uko acuruza neza, ibicuruzwa bye biteretse ku ndobo n' igikarito.

Igihaza cyiza cy'umuhondo cyareze, kirera cyane, ndetse gihinduka umuhondo, kiri ahantu habugenewe, cyagombaga kuba, bagitegeye utwatsi, kugira ngo kitabora, uzagisarura azasange kimeze neza.

Ibitoki byasaruwe, babiteretse ahantu hamwe bari kubigurisha. Ni ibitoki byiza, byakuze neza, byahawe ifumbire kuko biteye amabengeza, umuntu yabigura. Ahantu biteretse ni ahantu hagaragara ko bari kubigurisha.

Umuturage w'umugore ari mu murima uteyemo ibishyimbo bigufi .Bigira umusaruro mwinshi kandi bikaba bigura igiciro kiri hejuru kuko aba ari bike ku isoko hari ibiti bikikije uwo murima, ni ku mucyo harasa neza.

Abantu bari mu murima, abagore n'abagabo bafite amasuka, bari kuhira ibirayi kugira ngo bibashe gukura neza, bitange umusaruro ushimishije.

Imyumbati myiza isaruwe, itarategurwa, bashyize mu gitebo bayijyana ku isoko, bategereje ko haza abaguzi bakayigura bakajya kuyirya.

Ibicuruzwa, inyanya, puwavuro n'izindi mboga zitandukanye biri gucuruzwa, hirya hari gucuruzwa amavuta, ni mu isoko risakajwe amabati, ariko ku ruhande nta kintu kiriho.

Mu kibaya kinini cyane, hakikijwe n'ibiti, urusasa n'ibindi bitandukanye, hahinzemo inyanya, inyanya zikaba zifite ibitusha, ni ku kazuba keza kazifasha gukura neza, ni inyanya nziza cyane.

Imbuto zitwa amapera ziri ahantu hamwe barazisaruye zimwe muri zo zirasatuye mo imbere hasa nk'umutuku inyuma zimwe ni icyatsi, izindi zisa n'umuhondo ziri ahantu hamwe bari kuzereka abaguzi

Abaturage bari mu murima harimo igihingwa cy'ibirayi , bari kubagara umwe ari guhingisha isuka abandi bakamukurikira inyuma bakoresha intoki kugira ngo batabyangiriza.

Abaturage bari mu murima bari kumwe n'abayobozi, harimo aba daso, abapolisi, bafite amasuka bari mu muganda bitabiriye ari benshi bari gutera ibijumba.

Abaturage babiri b'abagabo, bari gusuzuma ihene, ahantu hari ihene nyinshi kandi izo hene zikaba zihagaze hejuru, zubakiwe neza, kuko nta ho zihurira n'itaka, ikiraro cya zo kiratinze n'ibiti ku buryo ziba zihagaze hejuru, kugira ngo zibashe kugira ubuzima bwiza.

Umuturage ahagaze mu murima uhinzemo ibirayi, ni umugore, afite terefone, ari kurebamo, afite ibyo ari gukanda. Uwo murima uhinzemo ibiti birinda imyaka, hirya hari amazu aturwamo n'abantu.

Imbuto ziri gucuruzwa mu isoko arizo ibinyomoro ku mifungo, imineke ku biseri, inanasi, indimu, amarunji. Byose bitanditse ku mifuka barambuye hejuru yameza.

Igitoki cyiza cyane bagiteze n'injengwe eshatu, ni igitoki kirekire cyakuze neza, gifite ibiro byinshi, cyitaweho kugirango gikure, hirya yacyo hari umudaso uri kugenda.

Mu murima w'inyanya zakuze neza zitaweho ku buryo buhagije , hagazemo umugabo wambaye ibiganza by'icyatsi, itaburiya y'icyatsi n'agapfukamunwa k'umutuku. Ari kugaragaza urunyanya mu ntoki rweze rwakuze neza.

Igihingwa cyitwa ipera ni urubuto rwiza ruribwa, ruryoha. Barusatuye mo imbere hasa n'umutuku, harimo utubuto dutoya; inyuma rusa n'icyatsi.

Imyumbati bayikuye, ni minini ,iraryoshye ,irunze ahantu hamwe ,kugirango abayishaka bakeneye kuyirya , baze bayigure bajye kuyiteka iwabo.

Ibijumba byatetswe neza bidahase biri mu isafuriya, byahiye byitamuye byahiye neza cyane, by'umutuku byatetswe bidahase.

Abaturage b'abagore; batatu umwe afite umwana, baricaye bafite imifuka irimo ibidodoki, ibindi babitambitse ku mifuka hasi, bari kubicuruza. Ibidodoki bigira umumaro mu mubiri w'umuntu.

Umugore uri mu murima, yambaye bote z'umweru, akenyeye n'igitenge, afite itiyo iri guturukamo amazi, ari gucucira mu murima kugira ngo ibihingwa bibashe gukura neza.

Amapera ari mu giti, atari yera kugira ngo asarurwe. Ni ku izuba riyafasha kugira ngo abone ibiyatunga, abashe gukura neza. Ibiti by'amapera ntabwo bikunda kuba ahantu henshi.

Umuturage ahagaze ahantu mu kibaya, hari ibyatsi by'indabo, hari n'ibiti by'ikawa, afite ikawa mu ntoki yasaruye, arishimye ari kuzereka abantu.

Imbuto bita imineke ndetse na avoka biteretse ku nkoko , ku izuba biri gucuruzwa ku muhanda. Umuntu wabinyuraho yagura bitamuhenze kuko bigaragara nk'ibiryoshye.

Karoti nziza nini zasaruwe zikuze bazitondetse mu mufuka, iruhande rw'umufuka bashyiraho utugano duhagaze, kugirango babone uko batondekaho izindi karoti, hejuru bakazijyana bakazigeza ku masoko atandukanye.

Igihingwa cy'inyanya ni igihingwa kiza, hari inyanya zitukuye zeze zitukuye neza cyane, hari n'izindi z'icyatsi zikiri bitusha, zitari zera. Izo nyanya zitukuye zasarurwa, ibitusha bikarindira na zo zikabanza zera.

Umuturage wambaye amataratara y'umukara, ari kuhira ibigori abicucira amazi, ndetse cyangwa se umuti wica udukoko, afite ipombo rirerire aho agenda acucira ibigori kugira ngo bikure neza.

Ibijumba biri gusarurwa, byitaweho biba binini, ni ibijumba by'umutuku, bigaragara ko biryoshye bivuye mu itaka ry'umukara.

Amacunga y'umuhondo asaruwe neza yatukuye cyane, bayasaruye yeze araryoha, abamo intungamubiriri. Rimwe rirasatuye kugira ngo rigaragazeko andi aryoshye.

Ibirayi bya Kinigi bisaruwe bisutse ahantu hamwe, byeze neza bitari binini cyane kandi bitari bitoya, biringaniye. Biri ahantu hamwe byarasaruwe.

Imifuka ipakiyemo ifu y'ibigori, imifuka myinshi itondekanye, igerekeranyije ku murongo. Bategereje ko abaguzi baza kuyijyana ahabugenewe.

Ikirayi cy'umweru kiri mu butaka cyakuze neza kiba kinini kubwo kwitabwaho giterwa umuti urinda udukoko, ndetse gishyirwaho n'ifumbire igifasha gukura neza.

Umugabo ari mu murima munini cyane w'urusenda, aho rumwe rutukuye urundi ntabwo rwari rwera, igihe hari urugeze igihe cyo gusarurwa. Yishimiye umusaruro uri muri uwo murima.

Abaturage benshi bari bari gusarura ikawa bikoreye ikawa mu bitebo bavuye mu murima, bari kugenda bishimye baseka baryohewe no gusarura ikawa kugira ngo bakorere amafaranga.

Ibirayi byasaruwe birundwa ahantu hamwe, bitegerejwe ko byagurwa, ariko harimo bimwe byangiritse, bibora, bipfa, bikaba bitegerejwe kurobanurwa, kugira ngo bitangiriza ibindi.

Ibigori byarasaruwe bishyirwa mu bwanikiro, ibigori byinshi cyane byumweru, ibindi umubyeyi yabihunguye abifite mu ntoki, kugira ngo abikuremo ifu, cyangwa abibeteshemo igikoma.

Amapera ya saruwe menshi, afite ibara ry'icyatsi ndetse n'umuhondo, arunze ahantu hamwe mu gitebo, kugira ngo agezwe ku isoko adahungabanye.

Inyanya n'intoryi ni imboga zikoreshwa n'abantu benshi, barazikunda bakabirya bishimye. Biri ahantu ku mifuka biratanditse, dutegereje abaguzi baza kubigura.

Ku kazuba uba mu kibaya, ahantu hahinze ibijumba, hari n'ahadahinze, abaturage babiri afite amasuka ku ntugu, umudamu afite agapanniye mu ntoki, yambaye ingofero, berekeje mu murima guhinga.

Inyanya zisa neza cyane, zimwe zitukuye, izindi zigisa n'icyatsi zitari zera. Izitukuye zireze bazisarura zikaribwa. Iz'icyatsi ziracyategereje kwera, kugira ngo zisarurwe.

Abaturage bafite mu ntoki ibiti byo gutera ingemwe z'ibiti barahagaze, bamwe bambaye udupfukamunwa, abandi ntatwo bambaye, bari kumwe n'abantu bambaye imipira ya kaki aribo babazaniye ibyo biti.

Igitoke cyarasaruwe, baragitara kirashya, kivamo imineke. Bayishyize mu cyabugenewe kugira ngo ibashe kuribwa.

Ibigori bihinzwe mu kibaya kinini cyane , hahagazemo umugabo , ari kubyitegereza. Harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuhira imyaka.

Abaturage bahagaze mu murima w'amashu, mu murima uciyemo amaterasi atandukanye bakaba bamanitse amaboko, nk'abantu bafite ibyo bari kwemeranyaho , kugira ngo bafate icyemezo.

Ingurube yabwaguye ibibwana byinshi bigera muri cumi na... Iraryamye yabihereje , biri konka , biri gusahuranwa , ibindi biri ku ruhande biraryamye . Ingurube ni itungo rigira amafaranga kandi ritanga umusaruro uhagije.

Abaturage bari mu murima aho harimo abagore bane, umwe muri bo ahetse umwana, bari gusarura ibirayi byareze neza bari kubitoragura hasi aho babikuye mu butaka, n'abari kubishyira mu mifuka.

Ibirayi biri mu murima byareze, babikuye, babisaruye ni binini cyane. Hari icyapa kigaragaza ko ari imbuto yatubuwe, imbuto nshyashya.

Amateke yasaruwe bayashyira mu i ibase, ni amateke menshi ariho itaka ry'umukara. Akaba ashobora kugurishwa, cyangwa se kuribwa abanje kozwa agatunganywa.

Abaturage bari gushingirira ibishyimbo ahantu mu gasozi, harimo abambaye imipira y'umweru n'ingofero z'umweru, hasi bambaye umukara. Ibyo bishyimbo bikaba bifite bihuriweho n'abantu benshi.

Igihingwa cy'urunyanya kigeze mu gihe cyiza, aho gifite ibitusha, inyanya ziri gutangira gutukura, gisa neza ku kazuba kari kubifasha kubona ibirutunga, kugira ngo ruzabe rumeze neza. Rufite ibitusha byinshi byinshi cyane bigaragara ko rwakorewe.

Imbuto z'imyembe y'icyatsi yasaruwe, iri mu cyo bayisaruriyemo, mu gitebo. Ni myinshi isa n'icyatsi ariko yasaruwe iteze.

Aho batuburira ingemwe z'ibiti bitandukanye, hari umugabo ari kugenda azitaho, areba izapfuye azikuramo, azicucira amazi, kugira ngo zidapfa ari nyinshi.

Imifuka myinshi iteretse yuzuyemo ibirayi, byasaruwe mu mirima, ibirayi byarobanuwe binini babipakira babijyanye kubicuruza i Kigali, no mu zindi ntara zitandukanye.

Mu murima w'inkeri, umubyeyi ari gusarura inkeri zeze zatukuye, kandi zabaye nini, ni umurima uri mu gishanga, barazisasiye bigaragara ko utari munini, ariko harimo inkeri nini zitaweho rwose.

Intoryi z'umweru ariko zitari umweru cyane, nyinshi ziri mu bubiko bwazo, zikaba zarasaruwe. Intoryi nziza zeze neza kandi zigaragara nk'aho ari nziza cyane.

Mu busitani bunini harimo ibyatsi bisa neza, bakunze kwita pasiparume. Ushobora kuza ukahicara, ukitegereza, ukaruhuka mu mutwe.

Iruhande rw'isambu hari amabuye, iyo sambu cyangwa se umurima uzitijwe ibiko. Mo imbere muri iyo sambu harimo akazu, hirya yaho hariho inzu ndetse n'ishyamba riri haruguru yaho.

Ubunyobwa bwakuwe umuntu abufashe mu ntoki, agaragaza umusaruro uko buba bumeze mu bihu byabwo, buvamo bugatunganwa, bugakoreshwa bukaribwa.

Ibishyimbo byeze, bimwe biri ku ntara, ibindi biri mu mabase. Mu isoko rinini hariho ibigori, ibikapu bari kugurisha, hariho amabase, indobo, byose biri mu isoko. Ibishyimbo bihari ni byinshi, umusaruro urahari.

Imifuka y'umuceri n'iy'a kawunga, iri ahantu hamwe, ni imifuka myinshi itondetse, igerekeranye, iruhande rwa yo hahagaze umuntu, iri mu kizu kinini cyane, ikaba itegerejwe kujyanwa ku baguzi.

Ibishyimbo bifite uruyange, imiteja, umushogororo. Biri mu murima bifite amazi imvura yabigwiriye, hari izuba riri kubifasha gukura neza.

Inzuzi z'umuhondo zigirira akamaro umubiri wa muntu, aho zivamo umuti ziri ku isahani, ni inzuzi nyinshi zavuye mu bihaza kandi ziraribwa.

Ibishyimbo by'intonore biratonoye biri mu ibakure, bitegerejwe gutekwa kugira ngo abantu babirye. Intonore igira intungamubiri zihagije zifasha umubiri wa muntu.

Urunyanya rukiri ruto cyane ni bwo ruri kuzamuka , nk' urubuto bateye ruri kuzamuka mu ifumbire ,akazuba kari kuva ari ko karufasha kugira ngo rubashe gukura neza.

Urubuto rwatewe mu itaka ryiza ry'umukara rifite ifumbire, ruri kuzamuka rumeze neza, rukura rufata ibirutunga mu izuba, kugira ruzavemo umusaruro ushimishije.

Abantu bari gucuruza imbungure, ibishyimbo, umuceri mu base bakoresheje utudobo dutoya. Aho abanyarwanda bakunda gupima bakoresheje utudobo dutoya.

Ibigori bya mayizori ni ibigori bigira amabara atandukanye y'umuhondo n'umutuku, akaba ari ibigori byiza, biryoha cyane bya kinyarwanda, biri mu mabara byiganjemo umutuku cyane, umuhondo, umukara, ni byinshi byarasaruwe, biramanitswe.

Imbuto z'inzuzi zatewe mu butaka bwiza burimo ifumbire, ziramera zizamukana uruyuzi rwiza rusa neza ku izuba zifasha kugira zibone ibizitunga.

Abaturage bishyize hamwe ni benshi bari mu makoperative, bafite imbuto z'ibishyimbo zitandukanye bejeje mu miririmo itandukanye, ariko bakaba bibumbiye mu makoperative, ariyo mpamvu bishyize hamwe bagakorera hamwe bikababitanga umusaruro uhagije.

Mu isoko rinini ricuza ibiribwa harimo ibishyimbo, umugore ari kudahisha akantu gakozwe mu kajerekani ari gucuruza.

Ibigori twita amahundo byapanzwe neza mu mifuka. Ibigori byumye, byumishijwe mu buryo bugezweho, biri mu mifuka bagiye kubijyana.

Amasaka yifashishwa mu gukora ibinyobwa bitandukanye, by'umwihariko mu mucyo nyarwanda avamo umusururu cyangwa ubushera, ndetse n'ikinyobwa gisembuye cyitwa urwagwa.

Umuturage ari mu murima w'amasaka, yavunye isaka riteze ryitwa igitete agiye kurihekenya, yiteye agatambaro mu mutwe kamufasha kwirinda izuba ryinshi riri kumugeraho.

Imbuto y'ubunyobwa yeze igihe cyo gusarurwa, yeze neza ifite ubunyobwa bwinshi, byaranduwe mu itaka, riri hejuru y'itaka kugira ngo bibashe gutunganywa.

Ibigori byiza by'umuhondo, bitonoye uruhande rumwe byitwa Marizori. Bikaba ari ibigori biryoha bya kinyarwanda, bikaba biba ahantu hake.

Igihingwa cy'ingano cyifashishwa mu gukora ifarini, zihinze mu murima munini cyane ,aho kitari cyera kuko kiracyasa n'icyatsi ,ntabwo ziruma ngo zisarurwe.

Ibikokoriko indabo zikurwamo amavuta y'ibihwagari, zihinze mu murima munini cyane ni nyinshi zareze zirera zisa n'umukara, zitegereje gusarurwa ngo zitunganywe.

Abagabo babiri bari guhura ibishyimbo, bari guhurira ku mashitingi. Urugo bari guhuriramo rufite uruzitiro rw'amabuye barwita urutonde. Inzu yamabuye ifite amadirishya y'ubururu, bafite imbaraga bari kubikubita kugirango babashe kubona ibyo bajyana ku isoko ndetse n'ibyo bateka.

Ibigori byarasaruwe, biramanitswe mu bwanikiro, ni ibigori byinshi cyane mu bwandikiro rusange, aho abaturage bazana ibigori bya bo bakabimanika, kugira ngo bibashe kuma neza.

Ibishyimbo by'ubwoko butandatu buteretse ahantu hamwe buri mu dusorori harimo ibishyimbo by'umukara harimo ibishyimbo by'umweru n'ibishyimbo by'umuhondo n'iby'umutuku harimo ibyo bita ibizungu.

Amajeri areze afite imishogi myinshi, ni meza andi yasaruwe ari mu gitebo ku buryo yategurwa agatonorwa nta kibazo. Ni ku izuba ariko iryo zuba riyafasha kugira ngo yere anakure neza.

Umukecuru yikoreye, ibintu mu igitebo, n'igitebo gikozwe mu migano, yambaye imyenda nkiyabayisilamu ari guseka yishimye, ajyanye ibicuruzwa ku isoko.

Umuturage ari mu murima ari kuyora umucanga arasa nabi, ni mu murima munini uhinzemo ibihingwa bitandukanye, mu kirambi ahantu harambuye hatari imisozi.

Umutiba igikoresho cy'ifashishwaga kugira ngo umuntu ahunike imyaka yejeje cyane cyane ibishyimbo, amasaka ,ingano, ibigori , ibinyampeke muri rusange.

Ibishyimbo biri mu kigunira cyangwa se umufuka wabugenewe wo guhunika ibishyimbo, kugira ngo bitangirika, imungu ngo zitabirya kuko zihombya ba nyir'umusaruro.

Ibishyimbo dusanzwe twita intonore babikuye mu bishishwa bya byo, babishyira mu isorori cyangwa mu bakure, ni ibishyimbo bisa neza, by'amabara y'umweru, umutuku ndetse n'icyatsi.

Ubunyobwa buri ku nkoko, inkoko iteretse kumukeka, hari ubunyobwa buseye buri mu gasorori, hari n'ubundi bunyobwa bubisi buri ku nkoko, ubunyobwa buraribwa, kandi bwifashishwa mu gukora amavuta.

Ibishyimbo byasaruwe babishyira mu duseke , buri gaseke kariho agapapuro gasobanura ubwoko bw'ibyo bishyimbo . Ibishyimbo bijya gusa n'umukara byitwa Mwirasi , iby'umutuku nabyo byitwa Nyiramagorori.

Amashaza cyangwa amajeri asatuye bayashyize mu gakoresho k'isorori, bategereje kuyateka kugira ngo bayarye. Amashaza agira intungamubiri zitandukanye.

Igihingwa cyitwa ingano cyifashishwa mu kubona ifarine ikorwamo imigati . Igihingwa gihinzwe mu murima , kireze ni ku izuba kikaba gitegerejwe ko cyasarurwa , kigatunganywa.

Inka irahagaze, iratuje, inyana yayo iri iruhande, hari umuntu uri kuyikama, amata agirira akamaro abantu. Inka nyinshi ziri mu rwuri cyangwag se mu gikuyu.

Ku nzu hariho ibyapa bitandukanye bigaragaza ibikorerwa muri iyo nzu, aho harimo ibiribwa bahacuruza ibikoresho byo mu gikoni, hariho inka ndetse n'ibindi bitandukanye bigaragaza igikorerwa muri iyo nzu ikinguye.

Inka ifite iherena ku gutwi. Inka isa neza, igiye guterwa urushinge. Iri gukingirwa indwara zitandukanye, kugira ngo izabashe gutanga umusaruro.

Inkoko ziri mu ikiraro cyazo, harimo inkokokazi, harimo amasake y'umukara, harimo iz'umweru, zose ziri ahantu hamwe, ziri kwitabwaho kugira ngo zizatange umusaruro ushimishije.

Ingurube yabwaguye utwana twinshi, turikonka n'utwana umunani, ingurube yatuje iri kutwonsa, kugira ngo utwana twayo, natwo tubashe gukura neza.

Umwana muto uri mu kigero cy'imyaka ine /itatu , bari kumuhereza amagi menshi kugira ngo azayarye amufashe gukura neza . Uri kuyamuhereza ni umugabo wicaye kugira ngo yireshyeshyanye na we. Abandi baturage bari ku ruhande bari kubitegereza.

Inyama ziramanitse hejuru mu nzu yabugenewe, icururizwamo inyama. Ni nyinshi, habazwe amatungo menshi, zimeze neza ni ibaragiro rya kijyambere.

Utubwana tw'ingurube twinshi turi konka. Ingurube n'itungo rigira umusaruro aho rishobora kubwagura utubwana cumi na dutanu icyarimwe, yaryamye hatuje kugira ngo utwana twayo tubashe konka neza.

Umugore ari mu kiraro cy'inkoko harimo inkoko nyinshi cyane, afite ibikoresho yifashisha ari kuzigaburira ziri kurya, ari kugenda azihereza azihereza, ndetse n'ibikoresho zifashisha iyo ziri kunywa amazi.

Umwana afite igi mu ntoki ari kurirya. Yambaye umupira w'icyatsi ufite amabara y'umutuku n'ubururu .Amagi agirira abana akamaro kanini ,abafasha gukura neza mu gihagararo no mu bwenge.

Ahantu hororerwa inkoko zimwe zirahagaze ni nzima, izindi zapfuye ziri ahantu heza ,si ahantu ha kijyambere, si ikiraro kigezweho ahubwo ni mu nzu, zapfuye zimwe ni nzima ariko inyinshi zapfuye.

Mbere yo guteka inyama umuntu aba agomba kubanza kuzoza. Umuntu afite inyama mu ntoki ari kuzikata ku cyuma cyabugenewe, kugira ngo havemo uduce dutoya abone uko azitegura.

Umuturage ahetse icyuma gitera umuti ,ari kumwe n'undi mugabo wambaye ijire ,bari ku kiraro cy'inka bari gutera umuti, inka bayikingira indwara.

Mu kiraro cya kijyambere cy'ingurube cyubakishijwe imbaho, harimo ingurube y'imbyeyi, ifite utubwana yabwaguye. Bari kuyikurura umunwa.

Amagi y'umweru menshi menshi menshi cyane, ari mu matureyi atondetse neza kumurongo, ategereje kugezwa ku baguzi bayo. Arasa n'umweru mu matureyi y'umutuku, y'icyatsi, y'ubururu, asa neza cyane.

Itungo ritanga amafaranga menshi, iyo umuntu aryoroye, rigurika cyane kuko abantu bakunda kurirya. Ni ingurube imwe ihagaze iri kureba imbere, kandi ifite isuku.

Umugore uri mu nzu ari kumwe n'inkoko mu cyumba inzu yubakishijwe inkarakara. Inkoko nyinshi umworozi w'inkoko ari kuzitaho azikoraho areba uko zimeze.

Ikinyoni kinini gifite umunwa muremure cyatanyaguje akanyamaswa, kiri kukarya nta bwoba gifite, cyagashwanyaguje ku buryo utamenya ako kanyamaswa ako ariko.

Ikinyoni kinini kifite amabara, umukara, umutuku, umuhondo, ubururu, gihagaze ku ishami ry'igiti kiritegereza hirya, gifite umurizo munini cyane, mbese ni ikinyoni giteye ubwuzu.

Inuma nyinshi zirahagaze ziri gutora, indi irahagaze iri kwitegereza hakurya, ni inuma zifite amabara meza, amaso atukura, amajanja ya yo na yo aratukura. Inuma ni ubwoko bw'inyoni nziza zitanga umutekano.

Imbeba n'akanyamaswa kaba munzu, kangiriza, karya imyenda, karya ibiryo, karya ibintu byose. Ku buryo iyo imbeba iri munzu, usanga nta mahoro arimo.

Akanyamaswa ko mu ishyamba gafite amabara y'umukara, ndetse n'ay'umweru, karahagaze kari kwitegereza imbere yako.

Inuma ni ubwoko bw'inyoni butagira amahane, bushushanya amahoro. Ihagaze ku kazuba, iri kwitegereza mu kibaya, inuma ikundwa n'abantu bose.

Inyoni yitwa umusambi ihagaze ahantu mu byatsi hakikijwe n'urubingo, amapapayi ateye ku ruhande ndetse n'urutoki, iri kwitegereza ku ruhande ireba ibihari.

Inyoni ihagaze ku ishami ry'igiti ryumye, ku izuba irikota izuba. Hasa neza iri kureba ibiri imbere yayo yishimye.

Inyoni ebyiri zihagaze ku biti, ku ruzitiro rw'umuntu ruzitijwe ibiti, ziri kota akazuba kuko izuba ririmo kuva, ziri gufata umwuka mwiza.

Inyoni ifite amabara y'umweru, umukara, n'umuhondo ihagaze ku gati iri kureba mu giti niba yabonamo ibyo kurya ahantu hasa neza h'icyatsi, ndabona ari ku kazuba, iri kota akazuba ndetse ishakisha nikirya.

Inuma isa neza , ifite amabara meza , iri kwitegereza nk'inyamahoro , ikunda abantu , kandi n'abantu barayikunda . Gusa hari abantu bazirya ariko inuma ni ubwoko bw'inyoni bwiza cyane.

Utunyamaswa cyangwa se udusimba twitwa udukwavu, dufite amaso manini tugira ubwenge bwinshi, turi gucunga ahantu hose dukanuye amaso turi hagati, iruhande rw'ikibuye n'ibyatsi karihishe gasa n'umukara.

Utunyoni dutoya turi mu cyari, nyina yagiye kudushakira ibyo kurya. Utunyoni twavutse duturutse mu magi, dusa n'umukara, ntituramenya kuguruka. Icyatwo ni ukuryama, tugategereza.

Inyamaswa yitwa inkende, ihagaze mu muhanda ni imbyeyi ihetse umwana wayo mu mugongo, hakurya hari ibyatsi bitunga, irimo kwitegereza imbere yayo.

Igikona kigira amabara abiri umweru n'umukara , kirahagaze gikunda kurya inyama amasabune y'abantu . Iyo udacunze neza kirabijyana gihagaze ahantu kiri kwitegereza , ni ku izuba gitegereje kugira icyo gifata.

Inyamaswa cyangwa se ya matungo bita imbata zisa n'umukara zifite n'andi mabara y'umweru ku minwa yazo hasa n'umutuku. Ziri ahantu mu byatsi ziricaye ziri kwitegereza imbere.

Inyoni yicaye ku ishami ry'igiti, ifite umunwa muremure, iri kwitegereza hakurya, ishami ry'igiti rifite utundi dushami twinshi cyane, ni inyoni y'amabara y'umukara, ubururu n’umweru n'umunwa w'umutuku.

Inyoni ifite amabara umuhondo, ubururu. Ihagaze ku gati iri kureba iruhande, inyuma hari ibyatsi. Inyoni iri kota akazuba.

Inyoni nziza cyane ifite amaso manini y'umukara, ifite amabara y'umweru n'umukara, ihagaze ku gitsinsi cy'igiti, iri kwitegereza hirya, ni iyoni nziza isa neza.